Iyi shusho irerekana umugabo uhetse umwana bigaragara ko bishimye cyane, hirya yabo hakaba hari n'abandi bantu babiri bari kuganira.

Icyapa bigaragara ko kiri kwamamaza aho hariho igipupe cy'umuntu bigaragara ko kinambaye ingofero kandi bikaba bigaragara ko hari ibyo bari kwamamaza kandi hakagaragaramo n'ibyo bakora.

Icyapa cyamamaza ibikorerwa aho ngaho, aho bigaragara ko icyo cyapa kiriho n'ishusho y'imbwa. Icyo cyapa kikaba cyanditseho ngo save on home and atto insuas se wasel bigaragara ko ibyo ari byo bari kwamamaza bakora.

Inzu nini ubonako ari iy'ubucuruzi kandi ukaba ubona ko hari n'ibyapa bihari byerekana ibihacururizwa, ukaba ubona ko hari n'imodoka zihacururizwa, hakaba hariho n'amafoto y'abazungu n'amamoto yabo bari kwifotoza berekana ibikorerwa ahongaho.

Icyapa kiri kwamamaza, aho bigaragara ko impande z'icyo cyapa hari ibiti binini bikuze cyane, icyo cyapa kikaba kiriho ishusho y'umuntu wambaye impuzankano bikaba bigaragara ko atari umunyarwanda ari umwirabura, kikaba cyanditseho mu ndimi z'amahanga kivuga ngo: " I don't just see a policyholder, I see a neighber."

Inzu nziza cyane, bikaba bigaragara ko iyo nzu iriho ibyapa biri kwamamaza ibikorerwa muri ayo mazu. Ayo mashusho akaba agaragaraho abakobwa batandukanye, aho bigaragara ko hari umukobwa ucuruza ndetse n'undi uteruye ibikapu, hakaba hirya hari n'undi uri gukoresha ibikoresho bitandukanye, bikaba bigaragaza ko bari kwamamaza ibyo bakora. Uwo mushinga ukaba witwa ungukirwa.

Ishusho bigaragara ko hari abantu babiri. Aho umwe bigaragara ko ari umuganga ari kwita ku murwayi. Uwo muganga akaba afite ibikoresho byabugenewe, akaba ari gupima uwo murwayi.

Inzu nziza ndetse n'imodoka, bigaragara ko ari byo bari kwamamaza, ndetse bakakwereka ko bishobora no gutangirwa ubwishingizi iyo bigize ikibazo. Hakaba hari n'ibyapa biri kwamamaza ibikorerwa ahongaho.

Telefone ngendanwa, bigaragara ko uwo muntu ari gukoresha telefone ngendanwa, akaba ari kuyikoresha akoresha serivise zitangwa n'ikigo kigenzura ubukungu mu Rwanda, ari yo banke.

Iyi shusho iragaragaza inyemezabwishyu uburyo umuntu yagiye yishyura amafaranga bugiye butandukanye ukwezi k'ukundi bakagenda bakwereka amafaranga yagiye yishyura uko yagiye ayishyuramo bigiye bikurikiranye .

Iyi shusho iratwereka urupapuro mpeshamwenda, aho bigaragara ko hariho amezi amafaranga yagiye yishyurwa uko agenda akurikirana, hasi bakagaragaza umwanzuro w'ibyo bafashe.

Iratwereka uburyo umuntu yohererejemo amafaranga avuye muri sosiyete zikorana n'amafaranga.

Imyenda myinshi cyane ubona ko itondetse ukaba ubona ko iri ahantu mu nzu y'ubucuruzi hino yaho ukaba ubona hari indi myenda y'ubwoko butandukanye.

Inkweto nyinshi cyane zitandukanye, aho ubona ko harimo ubwoko bwinshi cyane bunyuranye aho hagaragaramo inkweto z'abagore ndetse n'inkweto z'abagabo kandi bikaba bigaragara ko ziri ahantu hamwe zirambuye ku kintu kimwe gisa umweru.

Imyenda myinshi cyane harimo amashati n'amapantalo y'ibicuruzwa akaba atondetse ku murongo hirya yaho ukaba ubona ko hari n'ibindi bicuruzwa kandi ukaba ubona ko ari inzu nini ikorerwamo ubucuruzi butandukanye.

Inzu ntoya y'ubucuruzi, aho bigaragara ko iyo nzu icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, ndetse hakaba harimo ibikapu by'abagore, ndetse n'ibindi bikapu byifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Ntoya y'ubucuruzi. Aho bigaragara ko iyo nzu, ikorerwamo ibicuruzwa bitandukanye. Kandi hakaba hari n'ibyapa kuri iyo nzu, biranga ibyo bakora.

Inzu bigaragara ko ikorerwamo ubucuruzi aho bigaragara ko harimo imyenda y'abagabo ndetse n'abagore. Bikaba bigaragara ko hari n'imitaka ikoreramo sosiyeti y'itumanaho mu Rwanda ariyo bita MTN, hakaba hari n'amashusho yambaye imyenda bigaragaza ko ari ayamamaza imyenda.

Ahantu ku muhanda hashinze imitaka ibiri umwe w'umuhondo n'undi w'umutuku gusa uw'umuhonda uragaragaramo ibirango bya emutiyeni ndetse n'umuntu wicaye munsi yawo wambaye ijiri ya emutiyeni ndetse n'ishati ari guhereza umuntu serivise usa n'uwamugannye uri kumwaka serivise arimo aramuha telefone ngendanwa. Hakurya yaho haragaragara abandi bantu barimo baraganira mbese bari munsi y'umutaka w'umutuku.

Imodoka nziza cyane ikaba iparitse iruhande rw'inzu ndende ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, iyo modoka ikaba ifite n'icyapa kiranga ibiciro byayo uko igura n'uko igurishwa.

Iyi shusho iratwereka abagabo batatu, aho bigaragara ko inyuma yaho hari imodoka ebyiri zihahagaze kandi bakaba bafite icyapa kiranga ibyo bari kwamamaza.

Imodoka nziza cyane ubona ko ari shyashya, ubona ko nyuma yazo hagiye hicaye abantu, kandi bikaba bigaragara ko ziri ahantu mu nzu, bivuze ko izo modoka azi z'ubucuruzi.

Umuhanda nyabandwa, kumpande zawo ubona ko hari inzu y'ubucuruzi, ukaba ubona ko hari n'imodoka ihaparitse, ukaba ubona ko imbere yaho hari abagabo babiri bafite icyapa k'ikibintu cyihakorerwa, hirya yaho hakaba hari n'igikoresho nsakazamajwi.

Inzu nini cyane ubona ko ari inzu yabugenewe aho bigaragara ko haparitsemo imodoka nyinshi hakaba hari n'icyapa kiranga icyo iyo nzu ikorerwamo, bikaba bigaragara ko ari aho bakorera imodoka bazikorera amasuku, kandi hakaba n'indabo nziza zihazengurutse.

Abantu benshi ubona ko bari ahantu hamwe bari kwifotoza kandi aho hantu hakaba hari n'imitako ihateguye, hakaba bigaragara ko hacururizwa n'imodoka kandi bikaba biri mu nzu nziza cyane, bikaba bigaragara ko bafite n'impano bari kugenda bagenera abakiriya babo.

Imodoka nyinshi cyane z'ubwoko butandukanye, aho bigaragara ko impande yazo hari amazu atuwemo n'abantu, kandi ikirere ukaba ubona ko gifite izuba ryarashe.

Abantu babatu bahagaze. Bigaragara ko babiri bari ku mpande. Umugabo ahera hepfo no haruguru hakaba hari umugabo, hagati hari umudamu. Bakaba bafashe icyapa cyamamaza ibyo bakora.

Inzu bigaragara ko ari iy'ubucuruzi ariko ukaba ubona ko hacururizwamo imodoka zitandukanye, hakaba hari abagabo babiri bari kwerekana imodoka icuruzwa ndtse banafite icyapa kiranga ibyo bakora.

Inzu nini bigaragara ko ari yo ikorerwamo ubucuruzi, ku mpande zayo hakaba haparitsemo imodoka nziza, bakaba bakwereka n'ibiciro byayo igura.

Imodoka nziza cyane, ubona ko ari iy’amabengeza, ikaba iparitse ahantu mu nzu, bikaba bigaragara ko ari imodoka nziza cyane igendamo abayobozi.

Abantu babiri bahagaze. Bigaragara ko bafite icyapa. Bakaba bari kuranga ibyo bakora. Inyuma yaho hakaba hari imodoka ziparitse ndetse hakaba hari n'inzu nini y'ubucuruzi. Bikaba bigaragara ko iyo nzu itangirwamo serivisi zitandukanye kandi kuri buri muryango, hakaba hari icyapa kigenda kiranga icyo buri muryango ukorerwamo.

Abagabo batatu ubona ko bose bahagaze imbere y'imodoka kandi bakaba bafite icyapa mu ntoki cyamamaza ibyo bakora.

Ishusho iratwereka urugo, aho impande zaho hari igiti kinini gisakaye, kandi imbere yaho hakaba hari icyapa kiranga aho hantu ibihakorerwa.

Umuhanda nyabagendwa aho bigaragara ko ku nkengero z'umuhanda hubatse inzu nini cyane irimo imodoka zihagaze imbere, kandi izo modoka zikaba ari izicuruzwa hakaba hari n'igiti cyabugenewe gitwaye umuriro w'amashanyarazi.

Imodoka nziza cyane bigaragara ko iri kugenda mu muhanda, bikagaragara ko ku nkengero z'umuhanda hari ibiti bikuze cyane hakaba n'indabo zihateye, bikagaragara ko iyo modoka iri muri Kigali maketi, iyo modoka bikaba bigaragara ko ari imodoka zimwe ziba zikore zigurishwa muri iryo soko, iherereye muri Kigali.

Iyi shusho irerekana imodoka ziparitse ku mpande kandi bakanatwereka no mu modoka imbere n'imisego yazo zo kwicaraho mu ntebe z'abagenzi ukuntu hameze, ukabona ko ari mu ntebe ahantu hashimishije.

Ishusho iratwereka imodoka, aho iyo modoka inyuma hayo hafunguye, hirya yaho hakaba hari izindi modoka ziparitse, n'imbere yaho hakaba n'izindi modoka ziparitse bigaragara ko ziparitse ahantu mu nzu.

Abantu bane abantu babiri bambaye amashati asa abandi babiri harimo n'umukobwa umwe bakaba bombi bafashe icyapa baranga ibyo bakora, inyuma yabo hakaba hari imodoka ihahagaze.

Abantu batatu ubona ko babiri ari abagabo, hagati yabo hakaba harimo umudamu bakaba bafashe icyapa kerekana ibyo bakora.

Iyi shusho iratwereka ko iyi ari inzu ikorerwamo ubucuruzi, aho bigaragara ko hari umudamu uri kwishyura amafaranga umuntu wicaye imbere, akaba ariyo serivisi uwo muntu ari imbere ashinzwe.

Amafaranga bigaragara ko aya mafaranga ari amanyarwanda, ariko bikaba bigaragara ko ari ayakoreshwaga m'u Rwanda rwo hambere, ayo mafaranga akaba angana n'igihumbi, bikaba bigaragara ko ku ishusho hagaragaraho ibyiza birata u Rwanda kuri ayo mafaranga.

Abantu batatu aho hari umudamu uhagaze ahantu hamwe hakaba n'undi mugabo hirya ye bigaragara ko bari gusaba serivise zikorerwa muri iyi nzu. Hakaba hari n'undi ubahagaze inyuma.

Inzu nini cyane ubona ko ikorerwamo ubucuruzi butandukanye. Aho bigaragara ko harimo abantu bari gutanga serivisi zitandukanye, inyuma hakaba hari umubyeyi bigaragara ko uje gusaba izo serivise zitangirwa aho.

Inzu bigaragara ko ikoreshwamo serivisi zo kuri banki, aho bigaragara ko hakoreramo serivisi zo gutanga amafaranga, aho bigaragaramo ko hari abantu bambaye impuzankano bakoramo, kandi imbere yaho hakaba hari na za mudasobwa bifashisha, hakaba n'impande zaho hari amazi ari mu bicupa, hakaba hari n'abantu baje kwaka izo serivisi zitangirwa kuri banki.

Umugabo bigaragara ko ari kubara amafaranga. Bikagaragara ko ari ku kazi ke kandi akaba yambaye n'impuzankano. Bikaba bigaragara ko n'iruhande rwe hari imashini ibara amafaranga.

Imodoka bigaragara ko ari iy'inzego z'umutekano, inyuma yabo y'imodoka hakaba hari abantu bashinzwe umutekano bagiye gushyiramo ikintu baje bateruye, hakurya yabo hakaba hari n'amazu atuwemo n'abantu.

Amafaranga menshi cyane atandukanye bigaragara ko ayo mafaranga atari amanyarwanda, kuri ayo mafaranga hakaba hariho ishusho ry'umukuru w'igihugu amafaranga aturukamo kandi bikagaragaramo n'ikiganza cy'umuntu uri kuyabara hakaba hari na mudasobwa.

Abantu babiri bahagaze umwe ni umudamu, undi ni umugabo bigaragara ko hari abantu imbere bandi bari kureba, bari kubaha ibyo bashaka. Hejuru yabo hakaba hari amatara abiri amuritse.

Amafaranga ubona ko atari amanyarwanda. Bikaba bigaragara ko ayo mafaranga ariho amashusho atandukanye kandi bikagaragara ko ari amafaranga makumyabiri. Hejuru y'amafaranga hakaba hari agashusho gasa umukara no hasi y' amafaranga hari agashusho gasa umukara.

Inzu y'ubucuruzi, aho bigaragara ko harimo abakiriya bari kwiyakira, ku masahani ukabonamo nk'amandazi akozwe mu ifarine, ndetse n'igikombe kinini cyane kibuganijemo amata, hakaba hari umudamu wicaye bigaragara ko yari ari kwiyakira.

Amafunguro bigaragara ko akoze mu birayi ndetse n'inyama akaba azengurutswe n'ibintu bikoze mu ifarine ukaba ubona ko ari ibintu bifite umucyo mwiza cyane bisa neza.

Inzu y'ubucuruzi, aho bigaragara ko icururizwamo ibintu bitandukanye, aho hagaragaramo amajere ndetse n'ibyo kuribwa birimo nk'amandazi ndetse n'imigati, hakaba hagaragaramo n'amameza abantu bicaraho biyakira ndetse n'intebe z'umweru bicaraho, hakaba harimo umukobwa bigaragara ko acuruza ndetse ari no gusoma mu gitabo.

Iyi shusho irerekana ahantu mu kabari abantu biyakirira, ikaba yerekana umukiriya agira nk'icyo agiye gufata muri aho hantu biyakirira.

Inzu nini cyane ikorerwamo ubucuruzi aho bigaragara ko harimo amajere atandukanye abuganijemo amata, kandi kuri iyo nzu hakaba harimo n'ibyapa biranga ibikorerwa muri iyo nzu aho bigaragara kurya ibyapa hariho amashusho y'inka

Inzu nziza cyane bigaragara ko hari ibikorerwamo, aho bigaragara ko mu imbere muri iyo nzu harimo umukobwa ahetse igikapu mu mugongo, imbere ye hakaba hari intebe ihari kandi n'ameza ahegereye hejuru hariho ikaye. Hino yaho hakaba hari n'icyansi cyabugenewe kibuganizwamo amata.

Inzu ntoya bigaragara ko ikorerwamo ubucuruzi, aho bakwereka amagi aturuka ku nkoko kandi akaba afite intungamubiri ku buzima bwa muntu bwa buri munsi.

Igikombe cyiza cyane, ukaba bigaragara ko hirya hari n'ikindi ndetse n'akagere ubona ko karimo amata, ikaba bigaragaramo ko ibyo bikombe bibuganijemo amata, aho hantu bikaba bigaragara ko hatunganyirizwa amata kugira ngo abantu babone kuyanywa.

Hano hagaragara icyapa, icyapa kerekana teganya aghazaza h'umwana wawe, hakaba ku ruhande hari n'umwana uhari bikaba bigaragara ko ari icyapa kiri kwamamaza.

Telefone ngendanwa imwe nini, bigaragara ko uwo muntu ari kuyikoresha yiyoherereza amafaranga, bikaba bigaragara ko iyo serivisi ikoreshwa ry'itumanaho rya emutiyene, bikaba byerekana ko ari uburyo bwo kwiyoherereza amafaranga ukoresheje iyo serivisi ikorera mu Rwanda ya sosiyete y'itumanaho ya emutiyene.

Umuntu wambaye iby'umuhondo bigaragara ko afite terefone. Bikagaragara ko ari kuyikandamo; kandi ukaba ubona ko ari kureba ku ruhande.

Urupapuro bigaragara ko urwakoreshejwe mu mafaranga, aho bigaragara ko urwo rupapuro ruba rwerekana amafaranga yinjiye ndetse n'ayasohotse n'amazina y'abagiye bayatanga n'itariki yatanzweho.

Urupapuro rwiza cyane aho bigaragara ko hariho ikigo gishinzwe kwishyura imisoro n'amahoro, kandi bakaba bakwereka icyaba icyemezo kiba cyerekana umuntu wishyuye akabashyiraho amazina ye ndetse n'itariki yishyuriyeho.

Urupapuro ubona ko rukoreshwa mu bucuruzi, aho ruba rwerekanaho ibyasohotse n'ibyinjiye, bikaba bibyerekana bikoresheje amafaranga yinjiye ndetse n'ayasohotse.

Urupapuro rwerekana ko umuntu yishyuye umusoro. Bagahita bandikaho na nyiri ukwishyura umusoro bagashyiraho n'umukono we.

Urupapuro ubona ko rukoreshwa mu bucuruzi bw'amafaranga, aho bigaragara ko rukoreshwa na serivisi y'ikigo ya Rwanda Revenue Authority, bikaba bigaragaraho izina ry'uwishyuye amahoro ndetse n'umukono we n'itariki yatanzweho.

Hano haragaragaraho urupapuro rwifashishwa mu bucuruzi, aho ruba rugenda rwerekana amafaranga yagiye yinjira ukwezi ku kwezi, kandi bikaba bigaragara n'umwenda ubwo bucuruzi buba butarinjiza.

Umuntu ufite amafaranga y'ubwoko butandukanye mu ntoki, bigaragara ko amafaranga atari amanyarwanda mu kiganza kindi akaba ahafite telefone.

Atandukanye atari amanyarwanda ubona ko ari menshi bikaba bigaragara ko ari amafaranga ari gukoreshwa mu ivunjishwa.

Iyi shusho iratwereka ubwoko bw'amafaranga butandukanye uko agenda arutanwa, aho harimo amafaranga icumi, hakaba n'amafaranga makumyabiri, n'amafaranga mirongo itanu bigaragara ko atari amanyarwanda ari amayero.

Abantu babiri bigaragara ko abo bantu bari guhererekanya amafaranga, amafaranga ukabona ko ari amafaranga atandukanye, amwe bikagaragara ko hari n'ishusho y'umuperezida kandi bigaragara ko impande y'abo bantu hari n'akamashini gatoya kifashishwa mu guteranya imibare, aho hantu bita bigaragara ko hakorerwa serivisi z'ivunjishwa ry'amafaranga.

Umuntu wicaye imbere ya mudasobwa bigaragara ko ari umuzungu kandi akaba imbere ye hari n'imashini ari gushyiramo amafaranga ikajya iyabara.

Bitandukanye bigaragara ko buri gihugu kigiye gifite ibendera rikiranga ndetse hakaba hagiye hariho n'ibiciro bikoreshwa ku mafaranga y'ibyo bihugu, bikaba bigaragara ko ari uburyo bakoresha nk'ivunjishwa ry'amafaranga.

Amafaranga y'ubwoko atandukanye, aho bigaragara ko ari umukobwa uri kuyabara kandi ayo mafaranga akaba ariho ishusho y'umukuru w'igihugu aturukamo, bikaba bigaragara ko iyo nzu ikoreshwa na serivisi z'ivunjishwa ry'amafaranga.

Amabendera y'ibihugu atandukanye aho bigaragara ko buri gihugu kigiye gifite ibiciro by'amafaranga akoreshwa bikaba bigaragara ko ari uburyo bukoreshwa muri ibyo bihugu bw'ivunjisha ry'amafaranga.

Abantu babiri, umwe yicaye imbere, undi yicaye inyuma, uwicaye inyuma bigaragara ko ari kumwaka serivise runaka, kandi imbere ye hakaba hari n'ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Ishusho iratwereka abagabo batatu, aho abagabo babiri begeranye bari kuganira babara amafaranga, hakaba n'undi umwe yicaye ukwe ari kubara amafaranga atandukanye, imbere ye hakaba hari umurundo w'amafaranga menshi.

amafaranga ubonako atari amanyarwanda bikaba bigaragara ko ari inoti y'ibihumbi makumyabiri ariko idakoreshwa m'URWANDA hakaba hariho ibisimba birebire hakaba hariho nigishusho cy'umuntu

Amafaranga y'ubwoko butandukanye. Aho bigaragara ko buri muntu mu kiganza cye harimo ubwoko bw'amafaranga butandukanye. Aho bigaragara ko harimo ufite amafaranga ariho ishusho y'umuperezida w'icyo gihugu.

Amashusho menshi y'amafaranga atandukanye, akaba hari umuntu bigaragara ko ari kuyahereza uwundi muntu. Ayo mafaranga bikaba bigaragara ko atari amanyarwanda.

Amafaranga menshi atandukanye bigaragara ko atari amanyarwanda, akaba agiyeho ariho umukuru w'igihugu cy'ayo mafaranga aturukamo.

Umuntu uri kubara amafaranga, bigaragara ko ayo mafaranga atari amanyarwanda, kandi ayo mafaranga hakaba hariho ifoto y'umugabo, bigaragara ko ari umuperezida w'icyo gihugu, kandi bikaba bigaragara ko aho hantu hanakoresherezwa ivunjishwa ry'amafaranga.

Amafaranga menshi cyane, aho bigaragara ko amafaranga agiye ari mu matsinda atandukanye, bikaba bigaragara ko ayo mafaranga ariho n'ishusho y'umuperezida w'icyo gihugu amafaranga aturukamo, bikaba bigaragara ko ayo mafaranga ari ayo kuvunjishwa.

Ibihugu byinshi bitandukanye ndetse n'amabendera yabyo bikaba bigiye bifite ibiciro by'amafaranga kuri buri gihugu bikoresha mu gihugu cyabyo bikaba bigaragara ko ari amafaranga y'ivunjisha bagenda bakoresha ku biciro by'amafaranga akoreshwa mu gihugu iwabo.

Inzu nini cyane bigaragara ko ikorerwamo ubucuruzi butandukanye aho biboneka ko hari igisate kimwe gikorerwamo ivunjishwa ry'amafaranga hakaba hari urutonde rw'ibihugu ndetse n'amafaranga yabyo uko agenda avunjwa ku mpande hakaba hari n'umuntu uri gutambuka.

Iyi shusho iratwereka inzu y'ubucuruzi aho hariho umuryango kandi bigaragara ko hari n'ibirango by'ibyo bacuruzamo. Landi akaba ku mpande z'iyo nzu hari ishusho y'umukobwa ufite imisatsi miremire anambaye amadarubindi y'umukara, hejuru yaho akaba ari nk'icyuma cyinjiza umwuka.

Inzu mberabyombi ubona ko nta bantu bayicayemo. Bikagaragara ko harimo n'ibikoresho nsakazamashusho, n'ibikoresho bifata amajwi. Ukaba ubona ko ari inzu ikorerwamo ibiganiro bitandukanye.

Inzu nini cyane y'ubucuruzi, aho bigaragara ko izo nzu ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, hakaba hari igice kimwe gikorerwamo iby'ivunjishwa ry'amafaranga, bikaba bigaragara ko hari ibyapa biranga ibintu bikorerwamo aho ngaho.

Inzu ubona ko ikorerwamo ubucuruzi butandukanye ukaba ubona ko ari ahantu hakorerwa ivunjishwa ryamafaranga, hakaba harimo ibyapa biranga ibyo bakora n'ibyapa byerekena amabendera y'ibihugu bitandukanye.

Inzu nini cyane y'ubucuruzi. Aho bigaragara ko iyo nzu irimo imiryango itandukanye kandi buri muryango, hakaba hari ibyapa biranga igikorerwamo muri uwo muryango. Bikaba bigaragara ko igice kigaragara cyane kiri gukorerwamo ivunjishwa ry'amafaranga kandi hakaba harimo n'amatara yaka umweru cyane.

Inzu ubona ko ikorerwamo ubucuruzi butandukanye aho bigaragara ko hari igice kirimo abantu kandi ubona ko icyo gice kiri gukorerwamo ivunjishwa ry'amafaranga, ukaba ubona ko hari umuntu uhagaze ku ruhande kandi ukaba ubona ko no ku iyo nzu hariho ibyapa biranga ibikorerwamo.

Inzu nziza cyane igaragara ko ifite ubuganiriro. Harimo ameza meza cyane hakaba harimo n'inebe zo kwicaraho zifite n'imisego.

Ameza ubona ko akikijwe n'intebe nyinshi kandi ukaba ubona imbere yaho hari inzu y'ubucuruzi ukaba ubona ko aho hantu hari mu ruganiriro.

Ishusho iratwereka ahantu mu nzu yuburuhukiro aho bigaragara ko hari intebe zizengurutse imeza, imbere yahokaba n'utundi tumeza dutoya tubiri twabugenewe.

Inzu nini ubona ko ikorerwamo ubucurizi butandukanye, aho bigaragara ko hari n'icyumba gikorerwamo uruganiriro, hakaba harimo intebe zikoze mu biti ndetse n'ameza akoze mu biti kandi ubona ko bifite amabengeza.

Inzu nini cyane bigaragara ko ikorerwamo ibikoresho bitandukanye aho dusangamo ibikoresho bikoze mu mbaho zituruka mu biti, kandi ukaba ubona ko bisa neza cyane, aho bigaragara ko hari umugabo uri kubikora, ndetse ari gupima imbere ye hakaba hari n'inyundo.

Inzu nziza cyane bigaragara ko iyo nzu irimo utubati dutandukanye, kandi utwo tubati ukaba ubona ko ari utubati twavuye mu mbaho, izo mbahoho zikaba zikorwa mu biti nyarwanda, kandi ukaba ubona ko ari ibikoresho by'ejo hazaza.

Inzu ubona ko ari iy'ubucuruzi, bigaragara ko aho hantu harimo n'uruganiriro, ukabona ko hagati hari imeza zigiye zikikijwe n'intebe kandi bikaba bigaragara ko no hakurya mu zindi nzu hari ibindi bikorerwamo.

Ubugeni bukabije cyane bugaragara ko bukoze mu giti, aho bigaragara ko muri ubwo bugeni hagiye harimo indabo ziri mu bicupa byabugenewe, kandi ubona ko ari umutako uteguye neza cyane.

Ishusho iratwereka imoto iri mu muhanda nyabagendwa itwaye umugenzi, aho ku nkengero z'umuhanda hari inzu z'ubucuruzi aho hari ibicuruzwa bihari nk'amatebe n'imodoka n'intebe z'amakusi, aho ku mpande hari n'umugabo bigaragara ko abicuruje.

Ameza meza cyane, intebe zo kwicarwamo zimeze neza cyane, hakaba harimo ibyo biseguza ku ntebe kandi ukaba ubona ko harimo ibikoresho nsakazamashusho.

Inzu nini cyane kandi nziza bigaragara ko iyo nzu ikorerwamo serivisi zitandukanye, aho bigaragara ko harimo intebe nziza cyane zikozwe mu mbaho z'ibiti, bikaba bigaragara ko ari intebe z'icyerekezo.

Inzu nziza cyane, bigaragara ko ifite uruganiriro bwiza, aho urwo ruganiriro rugaragaramo intebe zifite amakusi, ndetse kandi zikaba zikoze mu biti by'imbaho, ukaba ubona ko ari intebe z'icyerekezo.

Inzu nini cyane bigaragara ko ari inzu nziza cyane, aho bigaragara ko iyo nzu harimo uruganiriro. Urwo ruganiriro rukaba rurimo intebe zikoze neza cyane, zikoze mu mbaho z'ibiti; kandi ukabona ko ari intebe nziza cyane z'icyerekezo.

Inzu nini cyane y'urwakiriro, aho bigaragara ko iyo nzu irimo abantu batandukanye bari kwiyakira, kandi bakaba bagiye bicaye ku ntebe, bakaba bagiye bicaye mu matsinda atandukanye, aho bigaragara ko hari umugabo wambaye impuzankano, abazaniye ibyo biyakirira biyakiriza.

Iyi shusho irerekana ahantu hari inzu yagenewe gukorerwamo ibikorwa bitandukanye, iyo nzu ikaba ikikijwemo n'indabo zitandukanye z'ubwoko harimo n'amapicine yo kuruhukiramo.

Umuhanda nyabagendwa aho bigaragara ko uwo muhanda ukoreshwa mu byerekezo byombi kandi uwo muhanda ukaba ushushanyije nkuko leta ibitegeka, ku nkengero z'umuhanda ku ruhande rwo hepfo ibumoso hakaba hagaragara inzu nziza cyane z'icyerekezo kandi ikirere kikaba gifite ishusho isa n'ubururu ndetse n'ibicu bisa umweru.

Inzu nini bigaragara ko ari iy'ubucuruzi, aho bigaragara ko hari ahantu habugenewe h'imyitozo ngororamubiri, hakaba hazengurutswe n'intebe zitandukanye kandi hagiye hariho n'imitaka. Ukaba ubona ko no ku nzu hejuru hariho ibiti by'indabo binini byakuze cyane kandi hakaba hari n'icyapa cyerekana ibyo bakora.

Inzu nziza cyane y'icyitegererezo, aho bigaragara ko iyo nzu yifashishwa mu kwakira abantu. Bikaba bigaragara ko harimo n'intebe abantu bicaraho baruhuka. Bikagaragara ko hari umugabo uri kugenda asanganira abantu bambaye impuzankano, ajya kubasaba serivisi akeneye.

Inzu y'urwakiriro ubona ko iyo nzu ari agatangaza, ni inzu utapfa gusanga ahandi hose, bikaba bigaragara ko iyo nzu ari inzu nini cyane ifite umwihariko, kandi bikaba bigaragara ko ifite n'indabo zigiye zitandukanye.

Inzu nini y'ubucuruzi ubona ko ari iy'icyerekezo, aho bigaragara ko ku mpande zayo hari icyuzi kinini. Kikaba gikorerwamo siporo ngororamumubiri kandi hakaba hari n'ameza abantu bicaraho bari kuganira.

Inzu nini cyane ubona ko ari iy'ubucuruzi, kandi ukaba ubona ko imurikiwe mu bice byayo byose, hasi ukabona ko ari umweru ariko hafite ibara ridasa n'ahandi.

Amameza yicarwamo n'abantu hejuru yaho hakaba hari n'imitaka yari irambuye bigaragara ko ari iyabuzaga abantu ko izuba ribageraho hakurya hakagaragaramo imisozi ituwemo n'abantu ndetse n'ibiti byinshi.

Inzu mberabyombi. Aho bigaragara ko iyo nzu irimo amameza menshi kandi n'intebe nyinshi cyane z'umukara, aho kuri buri ntebe hariho icupa ry'amazi kandi bikaba bigaragara ko inzu nta muntu n'umwe urimo.

Amazu meza cyane ubona ko ari ay'icyerekezo yose ukaba ubona yubatse ku nkegeroro z'umuhanda kandi akaba yubatse mu buryo bumwe. Bikaba bigaragara ko hasi afite indabo nziza cyane kandi hakaba hari n'umuhanda bigaragara ko uwo muhanda na wo ukoze neza cyane. Hirya yawo hakaba n'andi mazu meza ubona ko ari ay'icyerekezo. ikirere hejuru kikaba gisa ubururu buvangiye n'umweru.

Mu ruganiriro ubona ko hari intebe zo kwicaraho hakaba hari n'utumeza duteretseho utuntu turi mu gapipiri ukaba ubona ko harimo n'igikoresho isakazamajwi n'amashusho.

Inzu nziza cyane y'icyitegererezo aho bigaragara ko iyo nzu ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, kandi ku mpande zayo hakaba hari ikintu cy'icyuzi bigaragara ko gikorerwamo siporo ngororamubiri.

Ahantu hari inzu ubona ko ikorerwamo ibintu bitandukanye ukaba ubona ko hejuru hari icyapa cyerekana icyo inzu ikorerwamo musi yaho ukabona ko haturukamo umugore uri kuva ahantu hasi cyane mu inzu hahera.

Iyi shusho iratwereka inzu bigaragara ko ikorerwamo ubucuruzi, aho ku muryango wayo harimo icyapa cyerekana, giha abantu ikaze bahagana.

Iyi shusho irerekana inzu yabugenewe ikorerwamo ibintu bitandukanye bigaragara ko harimo n'ibyumba by'uruganiriro kandi ukaba ubona ko hari n'ibice bikorerwamo ubucuruzi ,ukabona ko ari inzu yabugenewe.

Iyi shusho iratwereka ibyapa biri ku nzu z'ubucuruzi, aho imbere yaho hari n'igiti kinini gikuze kandi ibyo byapa bikaba biranga ibicuruzwa bitandukanye.

Umuhanda nyabagendwa ugaragramo ko ugabanyijemo ibisate bibiri. Hakurya yayo hari amazu bigaragar ko ar ay'ubucuruzi, kandi ku mpande z'umuhanda hakaba hapatise amamodoka, hakaba hari n'icyapa ku muhanda kerekana ko imodoka zemerewe gutambuka cyangwa guhagarara.

Inzu nini cyane y'ubucuruzi, bigaragara ko iyo nzu ikorerwamo serivisi zitandukanye, aho bigaragara ko kuri buri muryango, hagiye hari icyapa kiranga ibikorerwamo muri uwo muryango.

Iyi shusho iratwereka abantu bicaye ahantu mu nzu y'ubucuruzi, bigaragara ko bakora mu bintu bitandukanye. Aho bigaragara ko hari n'abaje gusaba serivise zihatangirwa. Bakaba bambaye n'impuzankano ibaranga ku kazi kabo.

Iyi shusho irerekana inzu irimo saro; harimo aho uruganiriro rugiye rutandukanye, kandi hari n'ahabugenewe hari ibyuma byerekana amashusho.

Iyi shusho iratwereka abantu bari muri sare ahantu hamwe, aho buri umwe wese ari kuri mashini ye kandi bigaragara ko harimo n'abaje kubasaba serivise.

Inzu bigaragara ko ari iz'ubucuruzi aho izo nzu bigaragara ko hakoreramo sosiyete y'itumanaho ikorera mu Rwanda emutiyene, bikaba bigaragara ko hejuru y'iyo nzu hari n'icyuma cy'itumanaho gikurura amajwi.

Inzu mberabyombi bigaragara ko yicawemo n'abantu benshi ariko imbere hakaba hari abayobozi bicaye, bigaragara ko bari gutanga ikiganiro. Buri wese imbere ye hakaba hari icupa ririmo amazi ndetse n'igitabo ngendanwa, yandikamo ibyo yatanze, hakaba n'ibyapa biranga igikorwa bajemo.

Inzu nini nziza cyane ubona ko ari inzu z'icyerekezo, bigaragara ko zikorerwamo serivisi zitandukanye kandi kuri buri nzu hakaba hari icyapa kiranga igikorerwa mu nzu, hasi yaho hakaba harimo imodoka ziparitse kandi hakaba hari n'abanyamaguru bari kugenda, hakaba hari n'ufite indobo mu ntoki itukura kandi hakaba hari n'igiti gitwaye amashanyarazi kiyavana mu gace kamwe ajya m kandi.

Iyi shusho iratwereka umudama ukora ahantu muri serivise zijyanye na banke, bakwereka ko yishimiye abakiriya, ari kubereka ko bimeze neza.

Abantu ubona ko bari mu nzu mbera byombi aho bigaragara ko ari abantu bari gufata ikiganiro, bakaba bafite umuntu uri kubaha ikiganiro akaba harimo umudamu umwe, ndetse n'abagabo batatu bicaye n'undi umwe uhagaze, kandi hakaba hari n'imbere yabo hari mudasobwa n'ibitabo byandikwamo ibyo bafashemo amakuru.

Umukobwa bigaragara ko yishimye cyane, kandi akaba afite umusatsi mwinshi, akaba yambaye impuzankano y'akazi akora, bikaba bigaragaza ko hari ibyo ari kwamamaza.

Umugabo wambaye impuzankano y'akazi akora aho bigaragara ko ateye ikofe hejuru ndetse ari kwishima, imbere ye akaba hari mudasobwa kandi bikaba bigaragara ko ari kwamamaza ibyo akora.

Inzu mberabyombi aho bigaragara ko harimo abambaye impuzankano, ndetse n'abandi bantu benshi bicaye bigaragara ko bagiye guhabwa serivisi zitandukanye, kandi buri wese imbere ye hakaba hari icupa ririmo amazi.

Inzu mberabyombi bigaragara ko irimo abantu benshi kandi bakaba bafite n'amacupa y'amazi kuri buri meza kandi buri wese akaba afite n'agakayi ko kwandikamo ibyavugiwe mu nama, bakaba bateze amatwi umuntu uri kubaha ikiganiro.

Abantu babiri bigaragara ko harimo umuhungu ndetse n'umukobwa, aho umuhungu afite telefone ngendanwa aho ari kuyireba, umukobwa akaba azamuye amapfunsi ari kwishima cyane bigaragara ko ari icyapa kiri kwamamaza ibikorwa na eko banki.

Iyi shusho iratwereka abategarugori bari ahantu hamwe bambaye impuzankano. Hirya yaho hakaba hari n'undi mugabo uri kubareba wambaye amadarubindi, hakabaha n'umugabo ushinzwe umutekano. Mbere yaho hakaba hari n'imodoka iparitse, hakaba hari n'ikirango kiranga ibyo bajemo.

Inzu nziza cyane bigaragara ko itangirwamo serivisi zitandukanye, aho bigaragara ko hari n'intebe zo kwicarwamo. Bigaragara kuri izo ntebe zicarwamo n'abantu baje kwaka serivisi zitangirwamo n'iyo nzu kandi hakagaragaramo n'abantu babiri bambaye impuzankano, aho umwe ari umukobwa, undi ari umugabo ndetse hakaba hari n'ururabo rwiza cyane.

Umugabo bigaragara ko afite ikaya ari kwandika, iruhande rwe hakaba hari umukobwa bigaragara ko yerekeje ikiganza ku modoka hejuru, hakaba hari n'icyapa kiranga ibyo bakora ku mpande zabo hakaba hari ibiti binini bikuze cyane.

Abantu benshi ubona ko bahuriye ahantu hamwe mu mudugudu, bigaragara ko aho hantu ari ahantu bateraniye kandi bafite ibyo bari kwigaho cyangwa ibyo bari kubwirwa, hakaba hari n'inzu ya Kinyarwanda yabugenewe ariyo bitaga nyakatsi, hakaba hari n'ibiti bikuze cyane ndetse harimo n'ibiti by'imbuto.

Icyapa cyerekana ibintu bigiye gukorerwa ahantu, aho bigaragara ko icyo gikorwa kigiye gukorerwa mu mujyi wa Kigali, kuri icyo cyapa hakaba hari ibiranga ibizakorerwamo kandi kikaba gifite ishusho iriho igikoresho ndangururamajwi aricyo mayikorofone mu ndimi z'amahanga.

Isoko rinini cyane, ubona ko rikorerwamo ibicuruzwa bitandukanye ndetse ahanini ukabona ko igice kinini, ubona ko kirimo ibikoresho gakondo, byakoreshwaga ku ngoma ya kera kandi n'ubu bikaba bigikoreshwa.

Isoko ubona ko rikorerwamo ubucuruzi butandukanye, aho ubona ko harimo imboga rwatsi ndetse n'ibindi bitandukanye, hakaba hari abadamu babiri bahagararanye bari kuganira aho umwe ubona ko arikumuhereza amafaranga, hakaba hari n'undi mugabo hirya uhagaze iruhande rwabo.

Isoko rinini cyane, aho bigaragara ko harimo ibicuruzwa bitandukanye ariko ibyihariye bikaba ari ibyakoreshwaga mu Rwanda byo hambere, ubona ko ari ubugeni, hakagaragaramo uduseke ndetse n'ibindi bikoresho byakoreshwaga n'abami.

Isoko ubona ko ricurizwamo ibicuruzwa bitandukanye, aho ubona ko harimo abadamu ndetse n'abagabo baje kureba ibicuruzwa, hakaba hari n'imyenda igiye itandukanye yaba iy'abagore ndetse n'iy'abagabo.

Aba rero urabona ko bambaye amakarita ndetse n'imyenda, bisa n'aho hari inama bari bitabiriye yiga ku bibazo runaka biba byugarije abaturage cyangwa biba byugarije igihugu, biterwa n'ingingo nyamukuru ihari.

Isoko ubona ko rikorerwamo ibintu bitandukanye, aho ubona ko hari ubucuruzi bugiye butandukanye, harimo imboga ndetse n'imbuto, hakaba harimo n'abagenzi benshi baje kugura ibintu biri mu isoko.

Iyi shusho irerekana urujya n'uruza rw'abantu batandukanye, bagana mu isoko n'abari kuvamo kandi harimo n'imodoka ubona ziri kujyayo, harimo n'abamotari batwaye abagenzi.

Isoko ririmo abantu benshi cyane bigaragarako harimo n'ibicuruzwa byinshi, kandi ukaba ubonako harimo n'abadozi bagenda badoda imyenda, hakaba hari abantu b'ingeri zose bakorera muri iryo soko, hakaba n'imyenda itandukanye yaba iy'abagore n'iy'abagabo, ndetse n'iy'abana.

Iyi shusho irerekana ahantu mu isoko hari urujya n'uruza aho harimo abamotari, abagenzi, n'abakarani, n'abacuruzi batandukanye, bikaba bigaragara ko aho hantu ari mu isoko.

Isoko, isoko ubona ko ricurururizwamo ibintu byinshi bitu bitandukanye aho hagaragaramo ibitunguru, inyanya ndetse n'imiteja n'ibindi bintu bitandukanye hakaba hagaragaramo urujya n'uruza rw'abantu baje guhaha.

Isoko ubona ko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, aho hagaragaramo imbuto zitandukanye ndetse n'inyanya, hakaba harimo n'ibitunguru, hakaba harimo n'ibigori, ukaba ubona ko harimo abadamu babicuruje.

Iyi shusho iratwereka inzu ndende cyane y'ubucuruzi aho bigaragara ko hakorerwamo ubucuruzi butandukanye kandi ukabona ko ari n'imiryango igiye ihagazemo abantu, ku mpande z'iyo nzu akaba hari n'ibikoresho byabugenewe bifata imirasire y'izuba.

Aha hari abantu benshi batandukanye harimo abagabo ndetse n'umugore uhetse igikapu. Hakaba harimo n'abantu bacuruje inkweto, kandi hejuru yabo hakaba hari n'itara rimurika.

Iyi shusho irerekana ahantu mu isoko harimo ibishyimbo, ibigori, bigiye bitonze ku mabase. Akaba arimo n'ababyeyi bagaragara ko bacuruje, harimo n'abacuruje amabasi n'ibitenge n'ibikapu n'ibitoki.

Umuhanda nyabagendwa harimo ibinyabiziga biri guturuka mu byerekezo byombi by'umuhanda, aho ibyinshi ubona ko bigaragaramo ari amamoto. Ku nkengero z'umuhanda mu kayira k'abanyamaguru, naho hakaba harimo abagenzi benshi hakurya yaho hakagaragara inzu z'ubucuruzi. Bigaragara ko izo nzu hariho n'ibyapa byerekana ibikorerwamo.

Inzu nini ubona ko ari iy'ubucuruzi. Aho ubona ko hari igisate kimwe gikorerwamo n'abacuruzi hakaba hacururizwa imyenda itandukanye, iy'abagore n'iy'abagabo, ndetse n'inkweto z'abagore, n'abagabo hakaba harimo umugabo ndetse n'abakobwa bicaye ubona ko umugabo ari kwigera inkweto yahaguze.

Isoko rikorerwamo ibicuruzwa bitandukanye. Aho hagaragaramo inkweto, ndetse n'ibikapu, n'imyenda. Hakaba hagaragaramo n'abantu bacuruje ibyo bicuruzwa bikorerwamo.

Isoko, isoko ubona ribicuruzwamo ibintu byinshi bitandukanye, aho hagaragaramo ibikapu ndetse n'imyenda y'abagabo ndetse n'abagore, kandi bikagaragara ko harimo umukobwa ndetse n'umugabo, bikaba bigaragara ko uwo mukobwa ari kugura ibyo yaje kureba mu isoko, ndetse umugabo akaba acuruje

Umuhanda nyabagendwa, ku nkengero z'umuhanda ukaba ubona ko hubatse amazu. Imbere y'amazu hakaba hari n'ahantu hagiye hahagaze imodoka, ukaba ubona ko mu muhanda hari kunyuramo imodoka zitandukanye ziva mu byerekezo byombi. Hakaba hari n'ibyapa biranga igikorerwa ahongaho.

Isoko rinini cyane, aho bigaragara ko harimo abakiriya benshi baje kugura ibintu bira ahongaho mu isoko, aho ubona ko bamwe batonze n'imirongo, kandi abenshi ukabona ko harimo n'abadamu, ndetse n'abagore, n'abakobwa.

Isoko ubona ko ricururizwamo ibiribwa bitandukanye, aho hagaragaramo inyanya, intoryi, na karoti ndetse n'ibindi bitandukanye, bikaba bigaragara ko harimo abantu batandukanye benshi baje guhaha aho bigaragaramo ko harimo n'umwana mutoya bigaragara ko yihebye kandi afite agahinda.

Abantu ubona ko bari ahantu hamwe hakaba harimo umugabo n'umugore umwegereye n'undi mukobwa, imbere yaho hakaba hari abantu bambaye impuzankano ubona ko bari kubafasha ibyo bashaka.

Inzu uri kubona ko iri gukorerwamo n'abantu babiri, aho umwe atanga serivise za sosiyete y'itumanaho mu Rwanda ariyo emutiyene, kandi hakaba hari n'umugabo uhagaze uri kumwaka iyo serivise ubona ko yishimye ari kureba n'ifoto kandi hakaba hari n'ibyapa biranga iyo sosiyete y'itumanaho ya emutiyene.

Iyi shusho iratwereka ahantu ku muhanda bigaragara ko hakorerwa ubucuruzi, ku mpande zaho mu nzu bigaragara ko hari abantu bicaye, mu mitaka yo hanze akaba yicayemo umugabo ukora muri sosiyeti y'itumanaho emutiyeni, bigaragara ko ari guhereza umugabo telefone, imbere yaho akaba ari n'abandi bagabo babiri.

Abantu benshi bari ahantu mu mutaka ubona ko harimo nabari mu mutaka ukwabo babiri bambaye impuzankano, bakaba ari n'abandi bari hirya yabo ubona ko bari kuganira, akaba no hirya yabo hari abandi bicaye mu kidari, nabo ubona ko bari kuganira. Hakurya yaho ukaba ubona ko hari n'inzu y'ubucuruzi.

Abantu benshi bigaragara ko bari ahantu hamwe mu mubutaka aho bigaragara ko hari serivisi zitandukanye bari gusaba bikaba bigaragara ko hari umuntu wicaye uri kubafasha n'abandi bakaba bahagaze bamushungereye bareba ibyo akora.

Iyi shusho irerekana aho aba ahantu hari ubucuruzi bw'imyenda, itandukanye hakaba n'ikirango cyo kwishyuriraho serivisi zijyanye na emutiyene kandi ukaba ubona ko abantu ari ho bishyurira.

Inzu nini y'ubucuruzi bigaragara ko iyo nzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amatelefoni, aho ubona ko harimo ucuruza telefone ndetse n'abakiriya baje kuzigura, bikaba bigaragara ko bari guhererekanya amatelefone kandi imbere ye hakaba hari n'akamashini kifashishwa mu guteranya imibare.

Abantu babiri, aho umwe ari inyuma undi ari hanze, mu kazu kabugenewe gatanga serivisi za soseti y'itumanaho mu Rwanda ya Emutiyene.

Abantu benshi ubona ko bari ahantu ku kazu kabugenewe, ako kazu ukabona ko gakoreramo sosiyete y'itumanaho mu Rwanda ariyo bita MTN, kandi bikaba bigaragara ko no hirya hari abandi bantu, bari kuganira hakaba hari n'ibiti byakuze cyane.

Abantu ubona ko bicaye mu nzu mberabyombi, bigaragara ko harimo n'abambaye impuzankano bakorera sosiyete y'itumanaho mu Rwanda MTN. Hakaba harimo n'abantu baje gushaka serivise zitangirwamo.

Inzu ubona ko ikorerwamo ibikorwa bitandukanye. Aho bigaragara ko hari igice kimwe gikoreramo sosiyete y'itumanaho ikorera mu Rwanda ya MTN. Bikaba bigaragara ko hari ibirango byayo, byanditseho ibyo bakora. Ndetse hakaba harimo n'abagabo babiri, umwe akaba afite igikapu mu ntoki ndetse n'undi ari imbere ye y'igikapu. Kandi hakaba hari n'imeza irambuyeho ibyo birango, biranga iyo sosiyete bakorera.

Inzu y'ubucuruzi, aho bigaragara ko iyo nzu iriho icyapa cya sosiyete y'itumanaho mu Rwanda yitwa MTN, aho bigaragara ko ukoresha izo serivisi zitangwa n'iyo sosiyete kugira ngo wishyure amafaranga y'ibicuruzwa, hakaba hagaragara ko uhita ubona izina rya nyirigucuruza.

Aha hakaba hari ikweto umuguru w'umweru, bikaba bigaragara ko hasi hameza nk'ahantu hasobetse ikweto ziparitse, bikaba byerekana n'ikirango cyazo akaba hari n'ishusho y'umukara impande y'icyapa cyerekana iyo kweto.

Ishusho iratwereka umuhanda nyabagendwa. Aho ku nkengero z'umuhanda nyabagendwa, hari ahantu haparitse abamotari bambaye impuzankano, bikaba bigaragaza ko hari ibyo bari kwamamaza. Kandi hakaba hari n'inzu z'ubucuruzi ku nkengero z'umuhanda. Hejuru yaho hakaba hari n'insinga zitwaye umuriro w'amashanyarazi.

Ubucuruzi bukorerwa ku mbuga nkoranyambaga, aho baba bari kwerekana ibyo bakora ndetse n'ibyapa biranga ibyo baba bari kwamamaza, bikaba bigaragara ko ubwo bucuruzi ari ubwo twita mu ndimi z'amahanga onulayini shopingi puratifomu.

Iyi shusho iratwereka ibyiciro bitatu bitandukanye aho hasi hari inzu y'ubucuruzi, bigaragara ko hagiye hariho n'ibyapa by'ibyo bacuruza, ishusho ya kabiri hakatwereka ko ari mu nzu muri sare harimo n'ibikoresho byo ku meza, ku ya gatatu hakatwereka ko hariho n'ibyapa biranga ibicuruzwa.

Umuntu uri ku igare aho bigaragara ko yambaye impuzankano y'akazi akora, akaba yambaye amadarubindi ndetse n'ikasike, uwo muntu bikaba bigaragara ko inyuma ye hari ibara risa n'icyatsi kibisi rivangiye ndetse n'umweru.

Umumotari ubona ko atwaye moto; bikaba bigaragara ko yambaye impuzankano y'umutuku kandi ni moto, akaba apakiye ibintu bimeze nk'ikibogisi cy'umutuku harimo ibintu kandi bikaba bigaragaza ko hari ibyapa biranga ibintu bikorerwa aho ngaho. Mbega bivuze ko ari ukwamamaza ibyo bakora.

Inzu nini bigaragara ko zikorerwamo serivisi zitandukanye, aho kuri buri nzu ugenda ubona ko hari icyapa cyamamaza cyangwa kiranga ibikorerwamo muri iyo nzu, hakaba hari n'umumotari uri gupakira ibintu ku moto.

Inzu nziza cyane bigaragarako iri ahantu heza hitaruye kandi bikaba bigaragarako ifite urugo rwitsa ndetse n'irembo abantu banyuramo, ukaba ubonako imbere y'aho hahagaze umudama kandi iyo nzu bakaba bakwereka kw'iherereye i Kanombe Kigali, bikaba bigaragarako iyo nzu iri ku isoko igurishwa.

Iyi shusho iratwereka inzu bigaragara ko ari iy'ubucuruzi, aho muri iyo nzu tubonamo uburiri bushyashe neza kandi bikagaragara ko muri iyo nzu harimo n'ibikoresho Bisakaza amashusho.

Inzu nziza cyane y'icyitegererezo, bikaba bigaragara ko ifite amarangi atandukanye no ku mpande zayo hakaba hari n'izindi nzu nziza cyane ubona ko ari iz'icyitegererezo kandi ku mpande zayo hasi hakaba hari ibirabo byiza cyane bihateretse, bikaba bigaragara ko iyo nzu iri ku isoko.

Inzu nziza cyane bigaragara ko ikorerwamo ubucuruzi, hakaba hari n'imbuto zirambitse hejuru y'ameza, bikaba bigaragara ko iyo nzu ari iy'ubucuruzi, iherereye muri Kigali kandi ukabona ko ari inzu nziza cyane.

Umuntu ubona ko ari kugenda bikaba, bigaragara ko imbere ye hari amazu meza cyane. Kandi ukaba ubona ko hari andi mazu akeye ameze neza, ikirere kikaba gifite ishusho y'umweru n'ubururu.

Inzu nziza cyane y'ubucuruzi, aho bigaragara ko iyo nzu ifite uburyamo bwiza cyane, bikaba bigaragara ko uburyamo busasanye ubuhanga bukabije ndetse iyo nzu ikaba iherereye mu gace bita Kabeza, Kigali, Siti.

Inzu nziza cyane y'icyitegererezo, bigaragara ko iyo nzu iri gukodeshwa bikaba iyo nzu yerekana igiciro ikodeshwa kandi iyo nzu ukaba ubona ko irimo ibikoresho byihariye utasanga ahandi hose, ukaba ubona ko ari inzu y'icyerekezo.

Inzu nziza cyane ubona ko ari iy'ubucuruzi, bikaba bigaragara ko ku mpande zayo hari n'ibiti by'indabo, hirya yaho ukaba ubona ko hari n'andi mazu atuwemo n'abantu.

Inzu y'icyitegererezo bigaragara ko ikorerwamo serivisi zitandukanye, kandi ukabona ko ifite amatara ari kwaka, ukaba ubona ko ifite n'ibyapa biranga ko iri kugurishwa.

Amazu meza cyane, ubona ko ari ay'icyerekezo, aho bigaragara ko atondetse ku murongo, imbere yayo hakaba hari imbuga nziza iteguye cyane, kandi ku mpande hakaba hari indabo zihakikije. Ikirere kikaba kigaragara ko gisa umweru.

Inzu nziza cyane ubona ko ari inzu y'ikerekezo, bikaba bigaragara ko iyo nzu iri ku isoko, iyo nzu ikaba bigaragara ko iherereye ahitwa Rugondo Kigali city, iyo nzu ikaba igaragara ko ifite umwihariko kandi bigaragara ko yakorerwamo ibintu bitandukanye nk'ubucuruzi.

Inzu nziza cyane yitaruye, ubona ko ifite imbuga nziza irimo indabo z'ubwoko bunyuranye. Kandi ukaba ubona ko hari n'ibindi biti byabugenewe, byifashishwa mu kuzana umuyaga aho ngaho.

Inzu ubona ko bagezemo hagati bari kubaka, bikaba bigaragara ko hari abakozi bari kuyubaka, hakaba harimo n'abahereza. Hakurya yaho bikagaragara ko hatuwe n'abandi bantu. Ukabona ko ahantu bari kubaka hari n'indabo zikuze.

Inzu nini cyane y'ubucuruzi, aho bigaragara ko iyo nzu ari iy'icyerekezo, bikaba bigaragara ko iyo nzu iri kugurishwa, kandi ukabona ko ari inzu y'icyerekezo.

uUmugabo wambaye ishati y'umweru aho bigaragara ko arambuye amaboko, inyuma ye hakaba hari inzu nziza cyane ubona ko yubakanye ubuhanga, ikirere kikaba gifite ishusho isa umweru ndetse uvangiye n'ubururu.

Inzu nziza cyane bigaragara ko ari inzu nshyashya, ukaba ubona ko no hirya yaho hari izindi nzu nshyashya zose zuzuye, ukabona ko ari inzu ziri ahantu heza cyane kandi ubona ko ari inzu z'ubucuruzi, ukaba ubona ko izo nzu hariho n'ibyapa biranga igihe izo nzu zuzuriye kandi ukaba ubona ko ari inzu zikodeshwa.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye aho hagaragaramo inkweto z'abagabo ndetse n'ibikapu by'abagore, ukaba ubona ko ibikapu by'abagore aribyo byiganje, hakaba harimo abakiriya benshi ndetse hakaba harimo n'umuyisilamu wambaye ingofero imuranga.

Ibicuruzwa byinshi cyane bigaragara ko harimo inkweto z'abagabo n'ibikapu by'abagore hakaba hari n'umuntu wambaye ingofero hakaba hari n'abandi bantu bari kugenda ubona ko bashaka ibicuruzwa.

Isoko bigaragara ko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, hakaba harimo imbaga y'abantu benshi iri kujya kureba ibicuruzwa bicuruzwa muri iryo soko, hakaba harimo n'abakiriya bari kugenda babaza ibicuruzwa bigiye birimo, bitewe n'ibyo ashaka.

Inzu y'ubucuruzi hahagazemo abakobwa batatu. Hakaba hari umugore uri ku ruhande ufite ibintu ari kwandika, hakaba n'abandi babiri bahagaze imbere. Bigaragara ko bari kureba ibicuruzwa bitandukanye, kandi iyo nzu ikaba ifitemo amabara y'umukara hejuru kuri parafe, akaba arimo n'amatara amuritse.

Inzu y'ubucuruzi aho bigaragara ko harimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, kandi bikagaragara ko harimo umugabo umwe ndetse n'abadamu batatu, aho bigaragara ko abo badamu batatu baje kugura ibyo bakeneye muri ibyo bintu bacuruje.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi aho bigaragara ko harimo ibicuruzwa bitandukanye hakaba harimo imiceri ifungiye mu mashyashyi ndetse n'ibindi bitandukanye bikaba bigaragara ko ari ibintu byinshi cyane hakaba harimo n'umugabo uhagazemo ubicuruje.

Ahantu ubona ko ari inzu y'ubucuruzi hakaba hari n'amatara amurika hasi cyane kandi ukaba ubona ko hari n'imyenda y'abagore cyangwa abakobwa, hakaba harimo n'ibishusho biyambaye, hakaba hari n'iyabagabo n'indi myenda itandukanye.

Umuhanda nyabagendwa aho bigaragara ko uwo muhanda ukoreshwa mu byerekezo byombi, ku nkengero z'umuhanda hakaba hari inzu nini cyane y'ubucuruzi aho bigaragara ko iyo nzu ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, kandi kuri buri muryango hakaba hari icyapa kiranga ibikorerwa muri uwo muryango.

Inzu y'ubucuruzi, aho bigaragara ko bacuruza inkweto zitandukanye, iz'abakobwa n'abagore ndetse n'imyenda y'abagabo n'abagore, bikaba bigaragara ko harimo umuntu uhagaze ubicuruza ndetse n'abandi bakiriya baje kureba ibyo bicuruzwa.

Ikarita bigaragara ko ari iy'ubwisungane mu kwivuza, ikoreshwa mu Rwanda. Aho bigaragara ko ari mituweri. Ikaba ikoreshwa muri serivisi zitandukanye za leta.

Icyapa kiriho amafaranga miliyoni n'ibihumbi magana biri na mirongo itanu, kikaba gifashwe n'umuntu wambaye ishati irimo utwa tumweru n'umukara. Hirya ye hakaba hari n'undi muntu ufite igikoresho gifata amajwi, hakurya hakaba hari n'abaparitse imodoka. Iruhande y'abo hakaba n'indobo.

Umudamu bigaragara ko afite ibyangombwa ari guhereza umuntu umuri imbere akaba harimo n'abandi bantu babiri bambaye impuzankano kandi bigaragara ko bafite amakaramu bari kwandika, n'abafite ibifishi bari kurebamo.

Umuhanda nyabagendwa, aho bigaragara ko uwo muhanda ukoreshwa mu byerekezo byombi. Bikaba bigaragara ko ku kayira k'umuhanda kabugenewe kaba kagendwamo n'abanyamaguru kari kugendwamo ndetse ku nkengero z'umuhanda hakaba hari n'indi nzu nini cyane y'ubucuruzi. Bikaba bigaragara ko iyo nzu ikorerwamo ubucuruzi butandukanye kandi kuri buri muryango hakaba hari icyapa kiranga ubucuruzi bukorerwamo.

Iyi shusho irerekana abantu bari mu nama bigaragara ko hari umuntu uri kubagisha inama baganira, ukabona ko ari nk'abakozi bakorera ahantu hamwe bateraniye mu nama imwe ya mu gitondo y'iyo bagiye gukora.

Icyapa cyerekana ejo heza, bigaragara ko ari ukwamamaza, bashaka abantu bajya muri uwo mushinga w'ejo heza. Bakakwereka ibyiza byo gukoresha ejo heza kandi unakoresheje telefone ngendanwa.

Ishusho iratwereka abantu babiri bari kuramukanya kandi banambaye impuzankano aho bigaragara ko bari bari kwamamaza ibyo bakora hakabaka n'icyapa kiranga ibyo bakora.

Abaturage ubona ko bicaye ahantu mu kajaride, bikaba bigaragara ko buri wese bari kugenda bamuhereza igipapuro asomaho, bikaba bigaragara ko uwo muntu ari umuyobozi kandi bikaba bigaragara ko hirya yaho hari n'amazu atuwemo n'abantu kandi hakaba hari n'ibiti byabugenewe bitwara amashanyarazi, bikaba bitwaye insinga ziva mu gace kamwe zijya mu kandi.

Rinini cyane, aho bigaragara ko harimo ibicuruzwa bitandukanye, ibiribwa ndetse n'ibinyampeke ,imiceri n'ibindi byinshi bitandukanye, bikaba bigaragara ko buri ruhande rujyiye ruriho icyapa cyerekana ibicuruzwa byaho.

Inzu nini cyane ubona ko ikorerwamo ubucuruzi butandukanye aho ubona ko hari ibicuruzwa byinshi bitandukanye kandi hejuru muri ibyo bicuruzwa hakaba harimo n'amatara amuritse.

Isoko rinini cyane ubona ko rifite ibicuruzwa bitandukanye aho hagaragaramo amashashi apfunyitsemo umiceri y'ubwoko butandukanye, bikaba bigaragara ko ari ibicuruzwa byinshi cyane.

Iyi shusho irerekana ahantu hari ibicuruzwa byinshi bitandukanye, aho hagaragaramo umukiriya ari kugenda areba ibicuruzwa mu bihari ibyo yifuza akaba aribyo afata akareba.

Isoko rinini ritandukanye, aho bigaragara ko iryo soko rikorerwamo ubucuruzi butandukanye, aho hagaragaramo ibyo kurya bitandukanye ndetse n'ibindi byinshi cyane, bikaba bigaragara ko ibyo bicuruzwa bisa neza cyane.

Umuhanda nyabagendwa aho bigaragara ko uwo muhanda ukorerwamo mu byerekezo byombi, hakaba harimo imodoka ntoya zitwarira abantu hamwe kandi bikagaragara ko bwije kandi umuhanda ukaba umurikiwe mu byerekezo byombi, kuko hari amatara ku muhanda amurika kandi bikagaragara ko hari n'isoko iriryo soko bi bikagaragara ko riherereye kuri Simba Kicukiro.

Ibicuruzwa byinshi ubona ko bitandukanye biri ahantu hantu hamwe, hejuru hakaba hari amatara amuritse ibara ry'umweru kandi hejuru y'ibicuruzwa ukubona ko haba inkingi ihari ibifashe.

Ahantu ubona ko hakorerwa ubucuruzi butandukanye ukaba ubona ko hari umugabo uteruye ikintu, hakaba hari n'undi uje amukurikiye hakurya yaho ukaba ubona n'abandi bantu bari kubareba cyane.

Inzu nini bigaragara ko ari iy'ibicuruzwa bitandukanye, aho bigaragara ko buri gipande hagiye harimo ibicuruzwa bitandukanye n'ibirahandi, kandi buri gipande kikaba gifite icyapa kiranga ibihakorerwa.

Inzu nini cyane ubona ko ikorerwamo ubucuruzi butandukanye bikaba bigaragara ko harimo ndetse n'ibinyobwa bigiye bitandukanye by'ubwoko bunyuranye kandi ukaba ubona ko hari n'ibindi bicuruzwa byinshi cyane hejuru ikaba ifite amatara ahamurikira.

Umugamu bigaragara ko ari kugenda akaora mu bicuruzwa byinshi cyane bitandukanye, hakurya ye ukabona ko harimo n'abandi bantu babagabo n'abadamu bigaragara ko nabo bacuruje, ukaba ubona ko ari ubucuruzi bw'ibintu byinshi bitandukanye.

Isoko rinini cyane aho bigaragara ko iryo soko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, hakagaragaramo n'amafu y'ibikoma ndetse n'ibinyobwa bigiye bitandukanye kandi bikaba bigaragara ko iryo soko ririmo ibice byinshi bitandukanye.

Isoko Mpuzamahanga bigaragara ko harimo abantu benshi bacuruje ibicuruzwa bitandukanye, hakaba hari n'abantu bishyize ahantu hamwe ubona ko bari kuganira harimo abagabo ndetse n'abadamu, hakabamo n'abakobwa. Ukaba ubona harimo n'abandi bari kugenda bareba ibikoresho bakeneye kandi hejuru hakaba hari amatara amurika.